Abana bato bicaye bakoze uruziga barimo gusobanurirwa uko bakubita mu cyico ndetse bagahashya icyakototera icyanga n'isukari biri mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ababyeyi bakoranirijwe hamwe kugira ngo baganirizwe ku ngingo zitandukanye. Cyane cyane izerekeranye n'ubuzima bwiza kugira ngo hirindwe indwara zaba zituruka ku mwanda ndetse no mu bundi buryo bwose ahubwo ubuzima buba butakurikiranwa.

Umwana yambaye agashati k'icyatsi n'agakabutura kagera hejuru y'amavi. Ari ku ivomo, impande yaho hari indobo n'umufuniko w'ubururu, arimo gukaraba intoki n'amazi meza.

Abayobozi bicaye imbere, bari kugira inama ndetse no kuganira n'abatumirwa bungurana ibitekerezo by'uko ubuzima bwarushaho kumera neza ndetse no kwitabwaho mu nguni zinyuranye z'isi yose muri rusange.

Abayobozi barimo gusobanurira abandi bafatanyabikorwa ndetse n'izindi nzego bireba, ku buryo babasha kubangamira ndetse no kuzitira icyabuza umudendezo n'ubuzima bwiza abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ababyeyi bicaye ku bitaro aho bagiye gusobanurirwa uko barushaho gufata ingamba zikarishye mu kurinda ndetse no kubungabunga ubuzima bw'abana babo.

Abari n'abategarugori ndetse n'abagabo bari kungurana ibitekerezo by'uko ubuzima bwakomeza kwitabwaho mu ngeri zinyuranye ndetse mu bice bitandukanye by'isi yose muri rusange, harebwa icyakorwa ngo buzima burusheho kuba bwiza.

Abagabo n'abagore barimo gusobanurirwa uko bakwiriye gufata ingamba zikarishye ndetse no kutadohoka ku nshingano zabo, kugira ngo ubuzima bw'abaturage burusheho kumera neza.

Umuganga arimo guhanagura ku intoki z'umurwayi akoresheje ipamba ryabugenewe mbere yuko amuteraho agashinge kugira ngo abone uko afata ibizamini amusuzume.

Abari n'abategarugori bari ku ivomo, aho bategereje kuvoma amazi yo kujyanwa mu rugo, kugira ngo ajye kwifashishwa mu gukora imirimo inyuranye, cyane cyane amasuku, kugira ngo harusheho kunozwa isuku, mu ngo zabo.

Umutegarugori akikiye umwana we naho umugangakazi arimo guhereza umwana imiti kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bw'umwana hato butabaca mu myanya y'intoki.

Abana bato barimo kubyiganira ku' ivomo rusange bose barashaka gukaraba mu ntoki, gusa ubwogero ntabwo buhagije, bigaragara yuko bakeneye ahandi hantu ho kuba kwisanzurira mu gihe bari kwitunganya.

Abategarugori batatu babiri barimo gupomba amazi bose bambaye ibirenge naho undi arimo kuvomera mu ndobo ndetse no mu kindi gikoresho gikozwe nk'uruziga cy'icyuma.

Abaturage bicaye mu nzu nini barimo gusobanurirwa uko bahashya icyashaka kudobereza ubwisanzure ndetse n'imibereho myiza yabo ya buri munsi hafatwa ingamba zitandukanye.

Umuntu yicaye ku ntebe hari abaganga babiri, umwe arimo kumusuzuma mu kanwa, abandi bantu batonze ku murongo bategereje ko n'abo bagerwaho hanyuma bagasuzumwa.

Ababyeyi bateruye abana babo barimo kugaburirwa n'ababishinzwe, barimo kubahera ibyoku kurya mu kantu gakoze mu giti kameze nk'inkongoro.

Abana bane batoya bari ku ivomo rusange rya nayikondo, naho umukobwa mukuru ari inyuma arimo arabapombera amazi kugira ngo azamuke bavome, hirya ya haparitse imodoka ifite irangi ry'umweru.

Abana babiri, umwe yambaye imyenda idozwe mu gitenge n'inkweto zifunze undi yambaye agapira gatukura, bombi barimo gutega amazi ari guturuka mu gihombo hejuru n'intoki.

Umwana arimo gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo arusheho kunoza isuku n'isukura, hato atazavaho yandura indwara ziterwa n'umwanda ukomoka ku kudakaraba intoki ndetse no gukoresha amazi mabi.

Ababyeyi bane bicaranye n'umujyanama w'ubuzima, umuvuzi ari kubasobanurira indwara zitandukanye n'uburyo zivurwamo ndetse nuko zakwirindwa, kugira ngo hakomeze kunozwa ubuzima bwiza buzira umuze ku Isi yose muri rusange.

Ikigega kirimo amazi cyubatse mu buryo kizamutse mu butaka, hirya yacyo hari imirima idahinzemo ikintu na kimwe. Hejuru yacyo hariho ikiraro cyubakishijwe ibyuma.

Abari, abategarugori ndetse n'abagabo barimo kwifotoza bose bambaye udupfukamunwa, bashyizemo intera hagati y'umuntu n'undi kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo, butaba bwakwangirizwa n'indwara.

Ivomo risize ibara ry'ubururu ku gice cyo hasi n'umweru hejuru riri kuvomwaho n'ingimbi ebyiri, umwangavu n'umubyeyi w'umugore wambaye agapfukamunwa, inyuma ye haparitse amagare.

Abategarugori bane n'abagabo bane, bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima abavuzi cyangwa abaganga, bamaze kubasobanurira uburyo indwara zinyuranye zakwirindwa.

Umubyeyi witeze igitambaro arimo kuvoma amazi ku ivoma yegeranye n'undi mugabo nawe bose bari gukora ibintu bisa bari kuganirirwa n'umujyanama mu by'ubuzima abereka uko bakwiriye gukoresha amazi neza ndetse bakagira ubuzima bwiza.

Abana babiri bato, umwe w'umukobwa arimo kuvoma, naho uw'umuhungu ari inyuma, ari ku cyuma cya nayikondo, arimo gupika amazi kugira ngo abashe kuza mu kadomora.

Umukobwa w'umwangavu wambaye agapira k'umutuku werurutse n'ijipo y'umukara, amaze kumesa imyenda, arimo kuvoma amazi ikivomesho cye giteretse mu mabase abiri agerekanye.

Umuganga arimo gukingira umutegarugori naho umugore afite ubwoba bwinshi cyane wagira ngo arimo arababara kandi barimo bamufasha kugira ngo bamurinde ndetse barinde n'ubuzima bwe.

Abayobozi bahagaze barimo kwifotoza nyuma yo kwemerekanya ku migambi yo kutadohoka ndetse no kutadebekera icyashakaga cyose kubangamira ubusagambe bw'abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umwana muto w'umuhungu arimo kuvoma amazi y'ikigega, ayashyira mu gakombe kugira ngo abe yayanywa cyangwa se ayakarabe mu ntoki kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda.

Umubyeyi w'umugore ashungerewe n'abana ndetse n'abandi babyeyi, arimo gupomba amazi kuri nayikondo, undi mwana arimo kuvoma kugira ngo babone ayo kwifashisha mu gukora isuku n'isukura.

Umunsi wahariwe ku kwita ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane hibandwa ku buzima bw'urubyiruko kugira ngo rufashwe kutijandika mu bintu bibi byabangiriza ubuzima, cyane cyane nk'ibiyobyabwenge ndetse n'ubusambanyi.

Umubyeyi ari kugirwa inama n'umujyanama w'ubuzima, uko yakwita ndetse akanabungabunga ku buzima bwo mu mutwe kuko ari ingenzi mu mibereho yacu no mu migirire ya buri munsi.

Umubyeyi w'umugore witeze igitambaro cy'igitenge mu mutwe, inyuma ye hasize irangi ry'icyatsi, yakunje isura yariye karungu, mbese ubuzima bwe bwo mu mutwe ntabwo bumeze neza.

Umugabo yashobewe, afite ibibazo byamurenze, ari kuganirizwa n'umufashamyumvire uri kumwereka uko ubuzima bwo mu mutwe bwakwitabwaho kugira ngo yongere amere neza, agaruke ku gipimo gisanzwe cy'imitekerereze mu buzima bwe bwa buri munsi.

Urubyiruko runyuranye rurimo gusobanurirwa ndetse no kwigishwa uko rwakwirinda kwijandika cyangwa kwivuruguta mu bikorwa binyuranye byashyira ubuzima bwabo bwo mu mutwe mu kangaratete.

Umugabo arimo gusuka amarira arimo gushoka ku matama ye ndetse n'ibimyira biri gusohoka mu mazuru ye bitemba hejuru y'umunwa we, ubuzima bwe bwo mu mutwe ntabwo bumeze neza.

Umubyeyi w'umugore yicaye ku ntebe y'urubaho, imbere hashashe umusambi idirishya rirakinguye, inyuma ye inzu yarahomotse arihebye arifumbase mbese ubuzima bwe bwo mu mutwe ntabwo bumeze neza.

Arimo gusobanura uko tudakwiriye kwikomanga mu gatuza cyangwa ngo twumve ko dukwiriye gucogora ahubwo dukwiriye gukora cyane, kugira ngo tubashe kwita ndetse no ku kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Umusaza yambaye ishati y'ubururu ndetse n'umukenyero afite imisatsi myinshi amenyo ye y'imbere ayo hasi n'ayo hejuru yarakutse mbese ubuzima bwe bwo mu mutwe ntabwo bumeze neza.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi kubwitaho kuko iyo butameze neza bigira ingaruka zitandukanye no ku bindi bice binyuranye by'umubiri, hagati aho rero ni ngombwa kandi birakwiye ko twakwita ndetse tugaha agaciro ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo yegamiye igikuta, gisize irangi ryyumweru. Ahagaze wenyine arararamye, arimo kureba hejuru. Muri make ubuzima bwe bwo mu mutwe ntabwo bumeze neza.

Umutegarugori aryamye ku gatanda kabugenewe kwa muganga, naho umuganga yambaye utwuma ku maso twifashishwa mu kureba uko amenyo y'umubyeyi ameze.

Uko amenyo atondetse mu kanwa bigaragazwa n'icyuma k'ikoranabuhanga kinjira mu buryo bwateguwe, kigafotora uko amenyo ateye mu kanwa kugira ngo hirindwe ndetse hakumirwe kuba amenyo yakwangirika n'iryangiritse bigaragazwe ribashe kuvurwa.

Umugabo ari gusuzuma gukomera kw'amenyo ye akoresheje urudodo, kugira ngo hato atazatungurwa n'uburwayi bwazibasira amenyo ye, cyangwa se izindi ndwara zitandukanye ziza mu kanwa.

Umubyeyi ari kwigisha umwana we, uko yakoresha umuti woza amenyo mu rwego rwo kwirinda indwara zifata amenyo, ndetse n'izindi ndwara z'ubugendakanwa, hato bitazavaho byangiriza amenyo ye.

Umukobwa wambaye agasengeri arimo gusuzumwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa areba uko ubuzima bwe bwo mu kanwa buhagaze cyane cyane ubw'amenyo.

Umugabo ufite amenyo yererana nk'inyange arimo kwerekana uko wasuzuma amenyo yawe ko akomeye wifashishije akadodo kabugenewe.

Umuganga arimo gutunga agatoki ku kirahure cy'ikoranabuhanga, yerekana uko igikanka cy'amenyo kiba gishushanyije, igihe cyafashwe n'imashini zabugenewe.

Impuguke mu by'amenyo irimo kwereka mugenzi wayo bifashishije igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kwiga uko iryinyo ryasubizwa mu mwanya waryo ndetse ryaba ryangiritse n'uburyo barihomamo.

Umwana muto aryamye ku gitanda cyabugenewe cy'abarwayi, aho muganga ari gusuzuma amenyo ye akoresheje ibyuma kabuhariwe bisuzuma uburwayi bufata ibice bitandukanye by'amenyo.

Umubyeyi ukuze arimo gukora imyitozo ngororamubiri ikomeza mu nda kugira ngo agire ubuzima bushikamye ndetse bukomeye, kandi akomeze no gutuma umubiri we urushaho kugira imbaraga kugira ngo ubashe kuba wahangana n'indwara.

Umusaza usheshe akanguhe n'umukecuru usheshe akanguhe. Bari gusoma amabwiriza yanditse ku rupapuro rwabugenewe mbere yo gufata imiti kugira ngo hirindwe ingaruka zaturuka ku gufata imiti, ku buryo butanoze.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu yicaye ku ntebe iteye mu mbuga irimo ibyatsi ndetse n'ibiti by'amoko anyuranye ari gufungirwa igipepesi n'umugore wambaye umwenda w'icyatsi ufunze imisatsi hejuru bombi bambaye udupfukamunwa.

Abaturage b'abahinzi bishimiye ndetse banejejwe n'uko babayeho kandi banyurwa n'umusaruro babona mu by'ubuhinzi kuko ari wo utuma babaho bakagira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bombi bari gusuzumira hamwe uko imiti yakoreshwa hagiye hakurikizwa uko muganga aba yarabibategetse ndetse no kubabyanditse ku gapapuro kabamenyesha uko imiti ikoreshwa.

Abasaza babiri, umwe w'inzobe undi wirabura, bambaye ingofero z'urugara ndetse n'imikenyero, bikaba bigaragaza uko umuco wo hambere wahoze umeze ku bagabo.

Umusaza n'umukecuru bishimiye ubuzima babayeho, kuko batigeze bijandika mu byari kubangiriza ubuzima mu gihe cyabo cy'ubusore n'ubukumi, ahubwo bitaye ku guha agaciro ibyari iby'ingenzi ndetse n'umumaro mwinshi.

Umusaza usheshe akanguhe, arimo gupimwa indwara zirimo umuvuduko w'amaraso, kugira ngo basuzume ndetse banarebe uko ubuzima bwe bwa buri munsi buhagaze, hirindwe kuba yafatwa n'indwara zo guturika k'udutsi tw'ubwonko biturutse ku muvuduko uhanitse w'amaraso.

Ababyeyi babiri bari gutambuka bishimye, umwe wo mu kaboko k'iburyo niwe mukuru yiteze agatambaro k'umutuku yambaye umupira w'amaboko maremare arawuzinga awugeza hejuru y'ibiganza undi w'ibumoso yambaye umupira arawuzamura awugeza mu nkokora.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu gisharagati bombi bakenyeye aho bambaye neza, baberewe mbese muri make bitabiriye ibirori cyangwa ubukwe.

Umuvuzi arimo kwita ku musaza w'umukambwe, amwereka ko atagomba kudohoka ku gukora imyitozo ngororamubiri ituma ubuzima bwe burushaho kumera neza.

Ibihingwa bitandukanye birimo imboga n'imbuto, bikungahaye ku ntungamubiri zubaka ndetse zikanarinda umubiri wacu, zikanawufasha kugira imbaraga n'ubushobozi bwo kuba warwanya indwara.

Umubyeyi w'umuyobozi, ari gutanga inama ku ngimbi ndetse n'abangavu, uko bakwitwara mu kwirinda ndetse no kurinda ubuzima bwabo, kuba bwakwangirika, cyane cyane bwangirijwe n'ibiyobyabwenge ndetse n'inda zitateganijwe n'izindi ngaruka ziza nyuma y'uko ubuzima bumaze kwangirika.

Umuvuzi w'umusore arimo guhambira icyifashishwa mu kuvura ku kaboko k'umugore, naho abandi inyuma barahagaze bari guhabwa izindi serivisi.

Abavuzi bane, bakoraniye hamwe, kugira ngo bite ku murwayi uri mu bihe bitoroshye, aho akeneye ubuvuzi bwihutirwa, bari kumwitaho mu buryo bwose bushoboka, ndetse bari gukora iyo bwabaga kugira ngo bamufashe yongere amere neza kurutaho.

Ivuriro ririmo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ibyibanze ku barwayi, risize amarange y'umweru ndetse ririmo n'amatara hejuru yaka.

Ivuriro ririmo igitanda cy'abarwayi, haryamyeho umwana w'umukobwa uri kwitabwaho n'umubyeyi w'umugabo, ndetse n'umugangakazi ukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi.

Ababyeyi babiri, umwe yambaye ishati y'ubururu n'indorerwamo z'amaso, inyuma ye hari urugi rw'icyuma naho undi yambaye umupira w'igitare ateruye umwana w'uruhinja ari mu myenda yifashishwa mu kurinda imbeho buri mwana muto.

Inyubako y'ibitaro irimo ibyuma ku nkuta zombi bigaragara ko ariho bashyira ibintu bitandukanye harimo n'akayira gasorotse katambika kerekeza ku muryango winjira cyangwa usohoka.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi yubatswe mu buryo bugezweho, ifite imbuga ngari imbere hateye umukindo, mu rubavu rw'iburyo haparitse imodoka, hejuru ku gisenge hateye irange ry'umweru.

Inyubako icururizwamo imiti, isize irange ry'umuhondo ndetse n'irindi range risa n'ivu, hejuru hamanitse icyapa kiyobora abantu, ndetse n'umuryango wayo ni mugari.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi yubatse mu buryo bugezweho, imbere hari gusohokamo abantu abandi bahagaze mu nguni z'umuryango, imanitseho icyapa kigaragaza ikigo gishinzwe ubuzima. Imbere yayo haparitse imodoka, ndetse ifite n'imbuga ngari.

Inyubako y'ibitaro irimo umugabo urimo kuzinga inzitiramibu ikozwe mu ibara ry'ubururu ndetse harimo n'ibitanda byifashishwa n'abarwayi barembye kugira ngo babiryameho.

Inyubako y'ivuriro yubatse mu buryo bugezweho bw'amagorofa, yubakishije udutafari duhiye, hejuru hari icyapa kigaragaza icyo iyo nyubako ikorerwamo, imbere ku muryango wo hasi ku ruhande rw'iburyo hari abagabo babiri bambaye udupira tw'ubururu hejuru.

Icyumba cy'ibitaro risize irangi ry'umweru kirimo intebe z'amoko atandukanye. imwe ni umukara ntaho kwegamira ifite, indi ifite ibara ry'umweru hasi, iriho amapine ndetse n'ibara ry'ubururu bwerurutse aho begamira naho bashikamiza inkokora.

Ibitaro by'abarwayi aho baryama igihe barembye, birimo ibitanda bitatu byombi bishashweho imifariso iriho amashuka y'icyatsi kibisi ndetse n'amarido mu mpande y'ubururu bwererutse.

Inyubako y'ibitaro irimo amakaro n'intebe ndetse igikuta cyo hejuru gisize ibara ry'umweru harimo n'amatara, ku mpande hasize ibara ry'umuhondo.

Inyubako y'ibitaro byubatse mu buryo bw'amagorofa, isize irange ry'umuhondo ndetse ku gikuta cyo hirya hagaragara amabati y'umutuku, imbere hahagaze abantu bambaye imyenda y'ubururu.

Abaganga bane bari mu bitaro mo imbere, aho bari gukoresha imashini y'ikoranabuhanga yabugenewe, mu gupfundikira ndetse no kuzuza iby'ingenzi, mu macupa y'umweru, ari gusunikwa n'imashini.

Abavuzi bane bahagaze imbere y'inyubako nini ikorerwamo igikorwa cyo gufasha abatwite kubyara ndetse no kwibaruka mu buryo buboroheye kandi butabagoye.

Ibitaro bifite imbuga ngari, iteyemo ibyatsi ndetse n'indabo z'amoko anyuranye n'imikindo, igizwe n'inyubako eshanu, imwe yo hirya isize irangi ry'umuhondo, indi iri hakurya na yo isize irangi ry'umuhondo ifite amabati y'umutuku. Hanyuma izindi eshatu zose zisakaje amabati y'ubururu.

Umugabo n'umuganga bicaye mu bitaro mo imbere, aho umugabo ari gusuzumwa uko umutima we utera ndetse n'umuvuduko w'amaraso, hifashishijwe agakoresho kabugenewe gashyirwa ku kuboko, kagasuzuma uko bihagaze.

Umuganga arimo kugenda anyura mu cyumba cy'abarwayi aho ari gusuzuma uko ibintu byifashe, inzu iteye irange ry'umweru ndetse irimo amarido azinze afite ibara ry'ubururu bwererutse n'andi mabara y'icyatsi ku gakuta gato karimo hagati.

Umuvuzi arimo kwita ku murwayi aho ari kumuramburira ingingo ze z'amaguru. Kugira ngo ubuzima bwe bw'amaguru n'amagufa n'imitsi birusheho kumera neza, ndetse no gukomera.

Umusore wambaye isaha, ikabutura ndetse n'inkweto yiyambuye hejuru arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza.

Kutadohoka mu gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko bituma inyama, imikaya ndetse n'amagufwa yacu birushaho gukomera hanyuma ubuzima bwacu bukarushaho kuba bwiza.

Abasore babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri nta kujenjeka kugira ngo barusheho kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi bube bwiza kandi babe bafite amafu.

Inyunganirangingo ihabwa umuntu ufite urugingo rutameze neza, imufasha kugenda ndetse no gukora ibikorwa bye bya buri munsi kugira ngo anoze serivisi ndetse n'ibindi byose by'ingenzi, byamugirira akamaro muri rusange.

Amoko y'imyitozo ngororamubiri wakora, mu gihe uri gukiruka indwara yari imaze iminsi ikurembeje, cyangwa yarakuzahaje. Uko bikorwa, ndetse n'ibikoresho wagenda wifashisha bitandukanye, aho biri ngombwa.

Umusore uri mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ari guterura icyuma cyabugenewe kugira ngo arusheho guha imbaraga umubiri we, ubashe kurwanya indwara zikunze kwibasira ibice bitandukanye by'umubiri.

Umukobwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kunywa amazi kugira ngo yongere atare akuka ndetse aze no kuziba icyuho cy'amazi aba yatakaye.

Umukobwa uri mu nzu isize irangi ry'ubururu bwerurutse ku gikuta, ndetse n'ubururu bwijimye hasi, arimo gukora imyitozo ngororangingo, kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umwangavu arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ku kaboko k'iburyo n'agakoresho gasuzuma uko umuvuduko w'amaraso ndetse no gutera k'umutima biri kugenda kugira ngo arusheho kubungabunga ubuzima bwe bwa buri munsi.

Nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ni ngombwa kandi ni ingenzi ko unywa amazi, kugira ngo ajye kuziba icyuho cy'aba yatakaye mu gihe uba uri mu gikorwa cyo gukora imyitozo, igorora ingingo ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri.

Umugabo arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ikomeza amagufwa kugira ngo hato na hato amagufa ye atazajya avunika, bityo bigatuma ubuzima bwe buhora mu kaga kubera kudakora imyitozo ngororangingo ku buryo buhoraho.

Umuganga arimo gukanda imitsi, imikaya ndetse n'inyama iri impande y'ivi ry'umurwayi kugira ngo arusheho kumera neza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.

Amazi, imboga, imbuto ndetse n'ibyuma baterura iyo barimo bakora imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi kuko bidufasha mu kurinda ubuzima bwacu bwa buri munsi hato ngo butatakwa n'indwara zitandukanye.

Umubyeyi arimo gusoroma umuti gakondo wifashishwa mu kuvura urusobe rw'indwara zitandukanye zaba zibasira umubiri wacu zatewe n'ibintu bitandukanye, haba udukoko ndetse n'izindi ziterwa n'umwanda.

Umurima wamezemo ibyatsi by'amoko anyuranye, byifashishwa mu gutanga imiti gakondo ivura ubuzima bw'ikiremwamuntu ndetse n'ibindi binyabuzima muri rusange.

Ikimera gishobora guterwa cyangwa kikimeza mu murima cyo ubwacyo, mu buryo karemano, gikoreshwa mu kuvura urusobe rw'indwara zitandukanye, cyane cyane kikaba gikoreshwa n'abavuzi gakondo.

Akabati gateretsemo ndetse gapanzemo amoko y'imiti gakondo anyuranye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Inyuma hahagaze umuntu wambaye ipantaro n'umupira w'umweru ndetse n'undi mu kaboko k'iburyo nawe asa n'uri gutambuka agenda mu kayira.

Umubyeyi ashikamije amaboko arimo gucuruza imiti, naho undi mugabo nawe we ahagaze afashe ku giti gitambitse arimo kubaza uko ibiciro by'imiti gakondo bihagaze.

Abajyanama mu by'ubuhinzi barimo gusobanura uko ibimera bivamo imiti gakondo byakwitabwaho ndetse bigakorerwa kugira ngo bitange umusaruro uri hejuru.

Ibimera gakondo by'amoko atandukanye byamaze gusarurwa ndetse bikusanyirizwa mu gitebo kimwe kugira ngo bitunganwe bibashe kuba byavamo umuti wakwifashishwa mu kuvura.

Ibirahure bibiri birimo imiti gakondo ndetse biri no kwerekana uburyo itunganywa cyangwa igategurwa mbere yuko ikoreshwa cyangwa yifashishwa mu bintu binyuranye.

Bari kwerekana uburyo umuti gakondo wo mu kimera cya tangawize utunganywa mbere y'uko utangira kuba wakoreshwa, kugira ngo ugire ingaruka nziza.